Ikibindi giteretse kirimo umusururu uri kubira harimo n'imiseke. Umusururu ni ikinyobwa cyengwa mu masaka, kikaba gifite akamaro mu mubiri w'umuntu kubera ko gikiza inyota, iki ni ikinyobwa abanyarwanda bifashishaga mu buzima bwa buri munsi.

Abagabo bari gukina igisoro. Igisoro ni imwe mu mikino isaba ubwenge ku buryo aribwo buryo abami bakoreshaga mu kumenya koroganiza urugamba ndetse no kuba kugaragaza ubutwari n'ubwenge bukomeye bwa buri wese wagikinye.

Intebe ya kinyarwanda iteretse ku kirago, iruhande rwayo hakaba hari umukeka n'umuheto, n'ibisika bigaragaza umuco nyarwanda, ikirago ni uburyo Abanyarwanda bifashishaga mu gusasa, bwa kera.

Ikigo kizitiye, iruhande rwacyo hakaba hari ibiti, hirya gatoya hakaba hari umusozi, imbere hari ibitovu, igitovu ni igiti kigira amahwa, ku buryo nta muntu wagikoraho uko yishakiye.

Moto iri kwinjira muri gare ya Kayonza, imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri iri gusohoka, iruhande rwayo hari inzu ifite ibra ry'umuhondo, imbere yayo hakaba hari abamotari, hirya gatoya hakaba hari umutaka wa MTN, ndetse n'umu ajenti.

Gare irimo imodoka nyinshi n'abagenzi, iruhande rwayo hari amazu hirya gato hakaba umusozi uriho ibiti, ibiti ni muri bimwe bitanga umwuka mwiza, ni ingenzi ku kiremwamuntu.

Abakobwa bafite ubumuga bw'amaguru, mu ntoki zabo bafite imbago, inyuma yabo hari intebe zifite ibara ry'ubururu, harimo n'izifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umutuku, iruhande rw'abo bakobwa hari umwe wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku n'umweru.

Abakobwa bari gukina vore, iruhande rwabo hari abafana bicaye muri sitade. Vore ni umwe mu mikino isaba ubuhanga, kandi isaba kuba ufite n'imbaraga z'umubiri. Ni byiza kuba wakora siporo, kubera ko ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Moto iri mu muhanda w'amapave ifite itara ry'kinyoteri, moto ni mu bumwe mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu, ku buryo ari ikinyabiziga cyiza buri muntu wese yakwifuza.